Uyu ni umugore witeze igitambaro akambara n'ishati y'umuhondo, akaba afite n'indangururamajwi mu biganza bye, akaba ari kuganirira abandi bantu benshi batandukanye bicaye ku ntebe zitukura.

Aba ni abantu batandukanye bicaye mu cyumba ku ntebe zisa umukara, imbere y'abo hakaba hari ameza ateretseho indangururamajwi ndetse n'uducupa tw'amazi, inyuma yabo hakaba hari icyapa kinini cy'ubururu cyanditseho amagambo atandukanye.

Iki ni icyumba cy'inama kirimo abantu bicaye ku ntebe z'imituku, imbere yabo hari ameza y'umukara, imbere hakaba hari abandi bantu bicaye ku ntebe z'umweru bari kubaganiriza.

Aba ni abantu batandukanye, bateraniye ahantu hamwe, bakaba bicaye ku ntebe zisa cyangwa se zikozwe mu mbaho, imbere yabo hakaba hari n'ameza ateretseho ururabyo, na yo akozwe mu mbaho.

Iki ni icyumba, kirimo abantu bagiye batandukanye, bamwe bakaba bicaye ku ntebe z'umweru, abandi bakaba bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hakaba hari ameza, ateretseho indangururamajwi, ndetse n'uducupa tw'amazi.

Aba ni abantu batandukanye bicaye ku ntebe zisa umukara n'umweru, bakaba bicaye mu ihema risa umweru, hakaba hari umugore imbere uri gusuhuza umwe muri bano bantu bicaye.

Aba ni abantu bagiye batandukanye bicaye ku ntebe zisa umuhondo, umweru ndetse bakaba bicaye mu ihema risa umweru.

Aba ni abantu batandukanye bari mu cyumba bakaba bicaye imbere yabo hakaba hariho ameza asa umukara, ateretseho ibitabo ndetse n'ibikoresho nka mudasobwa ndetse n'uducupa tw'amazi.

Aba ni abantu batandukanye, bicaye mu cyumba kimwe, ku ntebe zisa umutuku, imbere yabo hakaba hari ameza y'umuhondo, kandi hakaba hagiye hateye ibyapa bigiye bitandukanye, hagati yabano bantu.

Aba ni abantu bagiye batandukanye, bambaye imipira yenda gusa umutuku, bakaba bicaye ku ntebe z'umweru, bakaba kandi bari mu ihema rinini ry'umweru n'icyatsi.

Aba ni abantu benshi bicaye ku ntebe zisa umukara, bakaba bagiye mu biganza byabo bafitemo impapuro zigiye zitandukanye, bakaba kandi bicaye mu cyumba gifite inkuta z'umweru no hasi hakaba hariho amakaro asa umweru.

Aba ni abantu batandukanye, harimo bicaye ku ntebe z'icyatsi, imbere yabo hari ameza, ateretseho uducupa tw'amazi, n'ibitabo, hari n'abandi bicaye imbere ku ntebe z'umweru, impande yabo hagiye hariho indangururamajwi.

Aba ni abantu batandukanye bari mu cyumba kimwe, bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza agiye ariho ibikoresho bitandukanye nk'ibitabo ndetse na za mudasobwa.

Aba ni abantu batandukanye, bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho. Imbere hakaba hari abicaye na none bafite ameza nayo akozwe mu rubaho, ateretseho ururabyo.

Aba, n'abantu batandukanye, bari mu cyumba kimwe bakaba bicaye ku ntebe zisa umukara, imbere yabo hakaba hari ameza ariho ibikoresho bitandukanye, nka mudasobwa ndetse n'ibindi.

Aba ni abantu batandukanye, bicaye mu cyumba kimwe, ku ntebe zisa umukara, imbere yabo bakaba bafite ameza, agiye ateretseho mudasobwa, n'uducupa tw'amazi

Uyu ni umugabo wambaye ikote ry'umukara n'ipantaro isa kaki, akaba afite indangururamajwi mu ntoki ze. Akaba ari kubwira abandi bantu biganjemo abicaye mu ihema ry'umweru.

Aba ni abantu batandukanye bari mu cyumba kimwe, bakaba bicaye ku ntebe zisa umukara, imbere yabo hakaba hariho ameza agiye ariho ibitabo byabo, uducupa tw'amazi ndetse n'indangururamajwi.

Iki ni icyumba kirimo abantu bagiye batandukanye, aba bantu bakaba bicaye ku ntebe zisa umukara. Imbere yabo hakaba hari ameza, ariho ibitabo byabo, terefone ndetse n'insakazamajwi.

Uyu ni umugore wambaye indorerwamo z'amaso, akambara ikote, akaba mu ntoki ze afite indangururamajwi, akaba yicaye ku ntebe y'umweru, imbere ye hakaba hari n'ameza na yo y'umweru ateretseho uducupa tw'amazi n'ibitabo.

Aba ni abantu bagiye batandukanye, harimo abicaye ndetse n'abandi bahagaze inyuma, inyuma yabo na none hakaba hari ibinyabiziga bigiye bitandukanye ndetse n'amazu.

Aba ni abantu batandukanye bari mu cyumba kimwe, bicaye ku ntebe zisa umweru, imbere yabo hakaba hari ameza agiye agitetseho uducupa tw'amazi ndetse n'ibitabo byabo.

Iki ni icyumba kirimo abantu bagiye batandukanye, bicaye ku ntebe zisa n'umukara. Imbere yabo hakaba hari ameza ateretseho uducupa tw'amazi ndetse na mudasobwa.

Uyu ni umugore witeze igitambaro akambara indorerwamo z'amaso, akaba yambaye n'umwenda usa umuhondo, akaba afite indangururamajwi mu ntoki ze, imbere ye akaba hari ameza maremare ari kuvugiraho.

Uyu ni umuntu ufite mu kiganza ke kimwe telefoni, mu kindi kiganza akaba ari gukoreshamo igikoresho k'ikoranabuhanga cya mudasobwa.

Uru ni urupapuro rusa ubururu, ruriho igishushanyo cy'inyubako zigiye zitandukanye. Uru rupapuro kandi rugiye rwanditseho amagambo agiye ari mu mabara y'umukara ndetse n'ubururu.

Iyi ni inyubako ndende ifite inkuta z'amabara y'umweru ndetse n'amadirishya asa umukara. Iyi nyubako ikaba iriho ibyuma byinshi hejuru ku gisenge by'ikoranabuhanga.

Uyu ni umugabo wambaye umupira w'ubururu akaba afite mu kiganza cye telefoni irimo amagambo agiye atandukanye, hirya yiwe no hejuru handitseho na ho amagambo agiye ari mu mabara y'ubururu.

Uyu ni umugabo wambaye ingofero y'umukara ndetse akambara n'ishati, akaba ahahagaze ku muryango ukozwe mu mbaho ugiye uriho ibyapa bigiye bitandukanye.

Uru ni urupapuro ruriho ibendera ryigihugu cy'u Rwanda, uru rupapuro kandi ruriho n'igishushanyo kiriho inyubako zigiye zitandukanye, ndetse rwanditseho n'amagambo uru rupapuro, amagambo ari mu mabara y'ubururu n'umweru.

Uru ni urupapuro rw'umweru rugiye rwanditseho amagambo atandukanye ari mu mabara y'umukara ndetse n'umweru, uru rupapuro runashanyijeho amabendera y'ibihugu by'u Rwanda ndetse n'Ubwongereza.

Iki ni igipapuro gisa ubururu, kikaba kigiye cyanditseho amagambo ndetse n'imibare bitandukanye, biri mu mabara yiganjemo ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Uyu ni umugabo wambaye indorerwamo z'amaso, akaba yambaye n'ingofero mu mutwe, ndetse akaba yambaye n'ikote risa umukara, akaba ari gukoresha mudasobwa yiwe.

Uyu ni ugabo wambaye ikote risa ubururu ndetse n'ishati, akaba yicaye ku ntebe, imbere ye hakaba hariho ameza ateretseho urupapuro rw'umweru ndetse na mudasobwa ari gukoresha.

Iyi ni inzu ntoya ikozwe mu mbaho. Iyi nzu mo imbere ikaba irimo abantu bagiye batandukanye bicayemo, no hanze ikaba ifite ibya byapa byinshi bigiye bitandukanye biyimanitseho.

Uru ni urupapuro rw'ubururu rugiye rwanditseho amagambo ndetse n'imibare bitandukanye, ibi byanditseho bikaba biri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Iki ni icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu. Iki cyapa kikaba cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku, umukara ndetse n'umweru, kikaba giteye impande ya ruhurura yegeranye n'inzu.

Uru ni urupapuro rusa ubururu, uru rupapuro rukaba rwanditseho amagambo ari mu mabara y’ubururu ndetse n’umweru.

Uyu ni umuryango usa umukara. Uyu muryango ukaba ugiye uriho ibyapa bitandukanye by'ubururu byanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Uru ni urupapuro rw'umweru, uru rupapuro rukaba rushushanyijeho mudasobwa, ndetse kandi uru rupapuro rukaba rwanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'ubururu.

Iki ni icyuma kirekire cy'umunara kiri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku, iki cyuma kikaba cyegeranye n'umuhanda w'ibinyabiziga urimo moto, ndetse hirya hakaba hari n'icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo.

Ibi ni ibyuma birebire biriho insinga zigiye zitandukanye, hejuru ya bino byuma hakaba hari ikirere kiri gusa ubururu n'umweru.

Uyu umunara muremure, ukozwe mu byuma, ukaba uriho insinga zigiye zitandukanye, uyu munara kandi ukikijwe n'ibiti by'amoko agiye atandukanye.

Aba ni abantu batandukanye, bambaye ingofero zisa umuhondo, aba bantu, bakaba bambaye n'imyenda, yiganjemo iy'ubururu, bakaba buriye ipoto hejuru, bari gukora insinga.

Aba ni abantu batandukanye bambaye ingofero z'ubururu n'imyenda isa umukara, bakababuriye icyuma kirekire, bakaba bari kugikora.

Iri ni ipoto rirerire ririho insinga zitandukanye, ndetse rikaba ririho n'itara rirerire ryo kumurikira umuhanda, iri poto rikaba rishinze mu busitani, inyuma hirya hakaba hari ibiti bihateye bitandukanye.

Iki ni icyuma kirekire, giteye mu busitani, iki cyuma kikaba gikikijwe n'amazu agiye atandukanye, ndetse hakaba hari n'umuhanda w'igitaka unyura muri ayo mazu.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi yubatse mu matafari ahiye, ikaba irambitseho ibikoresho by'ubucuruzi bitandukanye, byiganjemo matera ndetse n'imyenda, imbere y'iyi nzu hari ipoto rirerire ririho insinga zitandukanye.

Uyu ni umuganga wambaye itaburiya y'umweru, impande ye hakaba hari umurwayi wicaye ku ntebe y'umukara akaba ari kureba mu byuma by'amaso.

Uyu cyangwa se aba ni abantu batandukanye bari kugenda mu mbuga, hirya yabo hakaba hari inyubako nini cyane yanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu.

Iyi ni inyubako ifite inkuta zisa umuhondo, iyi nyubako imbere yayo hakaba hari imbuga nini cyane, irimo imodoka zitandukanye ndetse iyi mbuga ikaba ifite n'uruhande ruteyemo ubusitani, rurimo n'ibyapa bigiye bitandukanye.

Iyi ni imbuga nini hasi hayo hakaba hashushanyijemo imirongo iri mu ibara ry'umweru kandi iyi mbuga ikaba ihagazemo imodoka zigiye zitandukanye ndetse ikaba iteyemo n'ibyapa n'ubusitani ahantu hatandukanye.

Aba ni abantu bagiye batandukanye, bicaye ku ntebe, zimwe zisa umweru, izindi zisa umukara, imbere hakaba hari umuganga, wambaye imyenda isa umweru, uri kuganiriza umwe muri bano bantu.

Aba ni abantu batandukanye bicaye, imbere yabo hari ameza y'urubaho ateretseho ibitabo byabo bigiye bitandukanye. Aba bantu kandi bambaye ibintu mu ijosi bishushanyijeho idarapo cyangwa se ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Uyu ni umugabo uhagaze imbere y'abandi bantu bambaye ibintu mu majosi biriho amabendera y'igihugu cy'u Rwanda, bicaye ku ntebe z'urubaho imbere yoabo hari n'ameza y'urubaho, kandi bakaba bakikijwe n'abaturage na bo bagiye batandukanye.

Uyu ni umugabo wambaye ingofero y'umukara iciyemo imirongo y'umweru, uyu mugabo yambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umutuku ndetse n'umweru.

Uru ni urupapuro rw'umweru, uru rupapuro rukaba rwanditseho amagambo ndetse n'imibare bigiye bitandukanye, ibi byose bikaba bigiye biri mu ibara ry'umukara.

Uyu ni umugore wambaye ingofero y'umukara, irimo n'imirongo y'umweru, uyu yambaye n'indorerwamo z'amaso ndetse anambaye umwenda wiganjemo amabara y'umutuku n'umweru ndetse n'umukara.

Iki ni icyumba, kirimo abantu bagiye batandukanye, bambaye udupfukamunwa, iki cyumba kirimo n'intebe abantu bamwe na bamwe bicayeho, zisa umukara ndetse ku nkuta hariho insakazamashusho.

Aba ni abantu batandukanye, bambaye amashati n'amakabutura asa iroza, bakaba bicaye imbere y'iy'indi mbaga y'abandi bantu, imbere y'abano bantu hakaba hari ameza akozwe mu mbaho.

Iki ni icyapa kiri mu mabara y'ubururu n'umweru, iki cyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse n'ubururu, kandi iki cyapa gishushanyijeho n'ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda.

Iki ni icyumba kirimo abantu bagiye batandukanye, biganjemo abambaye imyenda y'umukara irimo n'umweru, iki cyumba kirimo n'ameza akozwe mu mbaho ndetse n'intebe isa umukara.

Uru ni urupapuro rw'umweru, rukaba rugiye rwanditseho amagambo ndetse n'imibare bigiye bitandukanye, ibi byose rero bikaba byanditswe mu ibara risa umukara.

Uyu ni umugabo wambaye ingofero isa umweru ndetse n'ikintu cy'umukara gitanga umwuka, akaba yambaye n'imyenda isa umukara, inyuma ye akaba ahetse icyuma kiri mu ibara ry'umuhondo, mu biganza bye akaba afite ihombo ririmo riravamo amazi.

Uyu ni umugabo wambaye ingofero y'umukara n'imyenda irimo umukara ndetse n'icyatsi, urimo urereka imbaga y'abantu benshi ukuntu bashobora kuzimya umuriro bakoresheje icyuma gisa umutuku.

Iki ni icyuma kiri mu ibara ry'umutuku, gifite ihombo rirerire cyangwa se itiyo rirerire ry'umutuku, iki cyuma kikaba cyifashishwa mu kuzimya umuriro.

Iyi ni imodoka ihagazemo imbere ahantu isa umweru, iyi modoka ikaba yegeranye n'ubusitani buri imbere yayo ndetse n'inyubako isize ibara ry'umweru n'ubururu.

Aba ni abantu batandukanye biganjemo abana ndetse n'abantu bakuru, hakaba barimo abambaye ingofero z'umweru n'imyenda yiganje mu mabara y'umukara, umutuku n'icyatsi, bafite ihombo rinini riri kuvamo amazi.

Uyu ni umugabo ushinzwe umutekano wo mu muhanda, wambaye ingofero y'umukara, n'ishati y'umukara iciyemo imirongo yenda gusa icyatsi, uri kuganiriza undi mugabo umuri imbere, wambaye umupira w'umweru urimo imirongo y'umukara umuhondo ndetse n'ingofero y'umukara.

Iki ni icyuma gitukura iki cyuma kikaba kimanitse ku rukuta, kikaba kigiye kiriho amagambo agiye atandukanye ari mu mabara y'umweru n'umukara.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga urimo kugenderamo igare, hirya hakaba hari abagabo bambaye ingofero z'umukara, amashati y'umukara, amapantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, bari kugendana.

Uyu ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, wambaye ishati ndetse akaba afatanye n'undi mudamu bari gusuzanya mu biganza, hirya yabo bakaba bakikijwe n'amabendera y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ikirangantego cy'igihugu cy'u Randa.

Uyu ni umugabo wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru ndetse na karuvati 'ubururu. Akaba yicaye impande ye hakaba hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Uyu ni mugabo wambaye ishati y'umweru, akaba mu ntoki ze afitemo indangururamajwi, inyuma ye hakaba hari icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo harimo ibara ry'umweru.

Uyu ni umugabo wambaye ikote ry'umukara, ndetse n'ishati y'umweru na karuvati, akaba inyuma ye hari amabendera menshi y'Ibihugu bitandukanye.

Uyu ni umugore wambaye indorerwamo z'amaso, akaba yambaye n'ishati isa ubururu, imbere ye akaba afite indangururamajwi, inyuma ye hakaba hari abandi bagore babiri bicaye, ndetse n'icyapa kinini cy'ubururu cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga urimo ikinyabiziga kirekire, uyu muhanda ukaba ukikijwe n'inzira y'abanyamaguru ndetse hakaba hateyeho n'ibiti birebire.

Uyu ni umugabo wicaye kuri moto iri kugendera mu muhanda w'ibinyabiziga. Uyu muhanda ukaba ushushanyijemo imirongo y'umukara n'umweru ndetse ukaba ukikijwe n'ubusitani n'ibiti birebire.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga, wiganjemo moto. Uyu muhanda ukaba urimo mirongo isa umukara n'umweru kandi ukaba ukikijwe n'ubusitani ndetse n'ibiti birebire ndetse n'inyubako zitandukanye.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga urimo ibinyabiziga bitandukanye, byiganjemo moto ndetse n'imodoka uyu muhanda kandi ukikijwe n'inzira y'abanyamaguru ndetse n'inzu z'ubucuruzi zigiye zitandukanye.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, byiganjemo ikamyo nini y'umweru, uyu muhanda ukikijwe kandi n'inzira y'abanyamaguru ndetse n'ibiti birebire.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga, urimo ibinyabiziga byiganjemo imodoka, uyu muhanda kandi ushushanyijemo imirongo iri mu mabara y'umweru ndetse n'umuhondo.

Iyi ni imodoka itwara abagenzi iri mu ibara ry'umweru ndetse imodoka ikaba iri kugendera mu muhanda, hirya hakaba hari inzira y'abanyamaguru ihagazemo abantu.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga byiganjemo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, uyu muhanda ukikijwe n'inzira y'abanyamaguru, ndetse n'inyubako ndende z'ubucuruzi.

Iyi ni imodoka isize ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, iyi modoka ikaba yanditseho n'amagambo ari mu ibara ry'umutuku, inyuma y'imodoka hakaba hari umuntu wambaye umwenda w'umuhondo wicaye ku ntebe.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga uhagazemo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hano hirya hakaba hari inzira y'abanyamaguru irimo abantu bagiye batandukanye bari kuyigenderamo.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga. Uyu muhanda wiganjemo imodoka ndende iri mu ibara ry'umuhondo, umukara n'umweru, ikaba yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku, ikaba iyi modoka itwaye abagenzi benshi.

Uyu n'umuhanda w'ibinyabiziga, urimo ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'ikamyo nini iri mu ibara ry'umutuku, uyu muhanda ukikijwe kandi n'inzira y'abanyamaguru ndetse n'ibiti birebire.

Iyi ni imodoka itwara abagenzi iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara. Iyi modoka kandi yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo.

Aha ni ahantu hahagaze imodoka iri mu ibara ry'ubururu, umukara ndetse n'umweru. Iyi modoka yegeranye n'akandi kazu kari mu ibara ry'umutuku kariho ibyapa bitandukanye.

Iyi ni umuhanda w'ibinyabiziga, uyu muhanda ukaba ushushanyijemo imirongo y'umweru n'umukara, ikaba irimo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ku ruhande y'umuhanda hakaba hariho inzira y'abanyamaguru ndetse n'akazu kari mu ibara ry'umuhondo ko kwicaramo.

Iyi ni imbuga nini cyane iteyemo ubusitani, iyi mbuga ikaba ikikijwe n'ibiti birebire cyane ndetse n'aho abanyamaguru abareba bicara.

Uyu ni umuhanda usa icyatsi, ushushanyijemo imirongo y'imyeru, aho abantu bakorera siporo, ukaba wegeranya n'umuhanda wa w'ibinyabiziga.

Iyi ni imbuga nini cyane iteyemo ubusitani, iyi mbuga kandi inateyemo ibiti birebire by'amoko agiye atandukanye kandi iyi mbuga ikikijwe n'amazu menshi atandukanye.

Iki ni icyapa kiri mu mabara y'umutuku n'umweru, iki cyapa gishushanyijeho n'umugabo nawe uri mu ibara ry'umukara.

Iki ni icyapa gifite amabara y'umutuku ndetse n'umweru, icyi cyapa kandi cyanditseho imibare ibiri iri mu mabara y'umukara.

Iki ni icyapa kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, iki cyapa kikaba gishushanyijeho n'ifoto y'umuntu uri mu ibara ry'umukara.

Iki ni icyapa kirimo ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, kikaba gishushanyijemo utuntu tubiri tugiye turi mu mabara y'umukara.

Iki ni icyapa kiri mabara y'umutuku, umweru n'umukara, kikaba gishinze mu busitani buri impande y'umuhanda w'ibinyabiziga.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga wiganjemo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, birimo imodoka. Uyu muhanda ushushanyijemo n'imirongo y'umweru n'umukara ndetse uteyemo n'ubusitani n'ibiti birebire.

Iyi ni inyubako ndende isize ibara risa umuhondo; iyi nyubako kandi ikaba iriho ibirahure byinshi cyane, bigiye biri mu mabara y'umukara.

Izi ni inyubako zigiye zitandukanye, izi zikaba zose zifite ibisenge byiganjemo ibitukura, izo nyubako kandi hateyemo ibiti bitandukanye n'insina.

Iyi ni inyubako ifite inzugi ndetse n'amadirishya bisa umweru, ndetse hanze y'inyubako hakaba hagiye hateye intebe zigiye zitandukanye, ndetse hari n'ubusitani n'ibiti birebire.

Iyi ni imodoka ihagaze mu... mu mbuga nini isashemo amabuye, hirya akaba hari inzu ifite igisenge kirekire gikozwe mu byatsi.

Iyi ni inyubako ndende, iyi nyubako ikaba iriho ibirahure byinshi cyane biyiriho, ndetse iyi nyubako ikaba ikikijwe n'igiti kirekire.

Izi ni imodoka nyinshi zitandukanye, zihagaze ahantu hamwe mu mbuga nini, izi modoka zikaba zikikijwe n'ibiti birebire ndetse n'inyubako.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga, uyu muhanda ukaba ukikijwe n'ubusitani, ndetse n'ibiti birebire, ndetse n'amazu agiye atandukanye.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga, uyu muhanda ukaba urimo moto ndetse ukaba ushushanyijemo n'imirongo y'umuhondo n'umukara n'umweru. Uyu muhanda kandi ukaba uteyeho n'ibiti birebire.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga, urimo ibinyabiziga byiganjemo amamoto. Uyu muhanda ushushanyijemo imirongo y'umukara n'umweru ndetse n'umuhondo kandi ugiye uteyemo hagati mu busitani.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga, urimo ibinyabiziga byiganjemo imodoka na moto, uyu muhanda kandi ukikijwe n'inzira y'abanyamaguru ndetse nibiti bitandukanye.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga, urimo ibinyabiziga bitandukanye, byiganjemo imodoka ndetse na moto. Uyu muhanda kandi ukikijwe n'inzira y'abanyamaguru ndetse ukaba ukikijwe n'ibiti birebire.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga wiganjemo ibinyabiziga bigiye bitandukanye birimo imodoka ndetse na moto, uyu muhanda kandi uteyeho ku ruhande ubusitani ndetse n'ibiti birebire.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, byiganjemo imodoka ndetse na moto, uyu muhanda ushushanyijemo imirongo iri mu ibara ry'umweru ndetse unateyemo ubusitani mo hagati.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, byiganjemo moto. Uyu muhanda kandi ukikijwe n'ibiti birebire ndetse n'ubusitani n'amazu agiye atandukanye.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye ndetse uyu muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti biteye birebire haruguru y'umuhanda ndetse n'amazu agiye atandukanye.

Uyu ni umuhanda wiganjemo ibinyabiziga bigiye bitandukanye birimo, imodoka ndetse na moto, uyu muhanda kandi ushushanyijemo imirongo iri mu mabara y'umuhondo, umweru ndetse n'umukara.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga birimo ibinyabiziga birimo amamodoka na moto, uyu muhanda ukikijwe n'inzira y'abanyamaguru ndetse hariho n'ibiti birebire n'ubusitani.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga urimo ibinyabiziga byiganjemo imodoka ndetse na moto. uyu muhanda ushushanyijemo imirongo y'umukara n'umweru n'umuhondo, ndetse uteyemo n'ubusitani ahantu hatandukanye.

Uyu ni umuhanda ugiye ushushanyijemo imirongo y'umweru n'umukara, uyu muhanda kandi ugiye uteyemo ibyapa bitandukanye ndetse n'ubusitani ndetse hashinzemo n'amatara maremare yo kumurikira umuhanda.